Muri rubanda dukwiye gufata buri muntu wese neza nk'uko dufata abandi tudagendeye, ku cyo umuntu ari cyo ku burwayi afite ku bumuga afite, ahubwo tukamuha kwisanga muri twebwe nk'undi muntu ahubwo tukamurinda kwi kwigunga.

Mu gihe umuntu akeneye ubufasha bw'inama ziturutse ku bantu bareba imibereho myiza y'abantu ku bantu bakeneye inama zijyanye no ku burwayi cyangwa no ku mibiri yabo bagana Isange One Stop Center, ibafasha mu kwiteza imbere muri ibyo byose ndetse no kumenya gahunda z'uko umubiri we ugenda umeze buri uko bwije n'uko bukeye.

Twese turabizi ko aha ngaha ari aho tugurira imiti mu gihe dufite indwara runaka cyangwa dushaka kwifashisha mu buryo bwo kumera neza. Aho wagenda ubona imiti itandukanye, ushaka gukoresha mu gihe wumva utameze neza kandi haba harimo abantu bita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi.